Itsinda ry'abaganga batandukanye bambaye amataburiya barimo baragaragara ko bishimye cyane rwose. Bari ahantu imbere y'ivuriro ryabo ryanditseho gira ubuzima. Biragaragara rwose ko baba bakoze ibishoboka byose kugira ngo batabare ubuzima bw'abantu, ni nayo mpamvu na bo bishimye kandi banejejwe n'ibyo baba bakoze. Ni ngombwa ko twubaha abaganga rwose aho tuva tukagera kuko ni bo badutabarira ubuzima igihe buri mu kaga.

Umugore wishimye cyane rwose urimo uraseka, arimo arakoresha kandagira ukarabe, ni igikoresho gikoreshwa mu kurwanya isuku nkeya, cyangwa se umwanda, ndetse no kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakwanduza. Kandagira ukarabe kandi zikunda gukoreshwa cyane cyane nkiyo umuntu avuye mu bwiherero akaba yakaraba, yakunzwe cyane kandi gukoreshwa mu gihe cya covid aho yarindaga virusi mu gihe rwose waba wagize nk'ikintu ukoraho kiriho iyo virusi, ukaba wakaraba bikaba birangiye utabasha kwandura.

Umuryango utari uwa leta ubarizwa muri leta ya Jorojiya, muri leta zunze ubumwe za amerika ugamije guteza imbere ubuzima mpuzamahanga. Intego nyamukuru y'uyu muryango ni uguhuza no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibigo by'ubucuruzi, za kaminuza, imiryango itari iya leta n'inzego za leta zibarizwa muri Jorogiya, hagamijwe guteza imbere ubuzima bw'abaturage ku isi hose. Mu mwaka w ibihumbi bibiri na makumyabiri kandi, uyu muryango washyize ahagaragara ubushakashatsi bwawo bwa mbere, aho bwagaragaje ko muri leta ya Jorogiya hari imiryango igera kuri magana abiri mirongo itatu n' ibiri ikora mu rwego rw'ubuzima mpuzamahanga harimo n'ikigo cy amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara.

Abantu bigaragara ko hari ikintu bahuriyeho, kuko bambaye umwambaro umwe ari wo w'itaburiya, imyambaro nk'iyi ngiyi ikunda kwambarwa n'abarimu ndetse n'abaganga, ni ngombwa kandi ni byiza ko twubaha izo ngeri z'abo bantu, kuko abarimu ni bo batwigisha mu mashuri ibyo tuzi n'aka kanya, bakatubeshaho rwose, kuko abeshi dutungwa n'amashuri yacu. Si ibyo gusa kandi abaganga bakora akazi gakomeye cyane muri ubu buzima, ariko ko gutabara ubuzima bwa muntu mu gihe ahuye n'uburwayi.

umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y’ubururu bwerurutse ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, arimo araseka kandi arimo arakoresha kandagira ukarabe. Ese wowe ni ayahe makuru cyangwa se ni akahe kamaro uzi ka kandagira ukarabe zikundwa cyane gushyirwa ahantu nko ku bwiherero kugira umuntu wese usohokamo abashe kuba yakaraba intoki kugira ngo hirindwe indwara zandurira mu mwanda ni ngombwa ko dukoresha kandagira ukarabe kugira ngo tugire isuku muri byose dukora.

Umuganga bigaragara ko yita ku buzima, Ari gukingira umugore urimo kwitegura guterwa urukingo. Uyu mugore agaragara nk'ufite ubwoba cyangwa impungenge, nk'uko bigaragara ku isura ye, no ku kuntu yegeranyije ukuboko kwe kw'ibumoso. Abaganga bambaye udupfukamunwa n'impuzankano z'akazi, bikerekana ko bari mu bikorwa by'ubuvuzi byubahiriza isuku n'umutekano.

Ivomero rusange riherereye ahantu rwose wagira ngo ni mu ishyamba, kuko inyuma hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, si ibyo gusa kandi turimo turabona umugore witwikiriye igitambaro, arunamye, afite injerekani hasi arimo aravomera. Banyarwanda, banyarwandakazi ni byiza ko dufata neza amazi, tukayagirira isuku by'umwihariko nk'ayo mavomero rusange, kuko haba hari abantu benshi bari buze kuyavomeraraho, ujye wumva ko atari wowe wenyine, maze tuyagirire isuku kandi bikwiriye.

Kanseri y'inkondo y'umun ni kanseri ihambaye mu Rwanda ,aho abantu magana atandatu bashyashya buri mwaka bayandura n'abandi magana atandatu bagapfa buri mwaka, ushobora kwibaza mu kanseri y'inbwoko ki? Ni indwara iterwa no gukura k'utunyangingo twangiritse ku nkondo y'umura tukaba dushobora gukura tukaba kanseri, hanyuma rero indwara ishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, igira ibimenyetso bitandukanye nko kuva amaraso atari mu gihe cy'imihango, kubabara igihe cy'imibonano mpuzabitsina, kunanuka bidafite impamvu no kwangirika k'urugingo rw'inkondo y'umura.

Igikorwa cyo kwita ku bana batoya hari abantu bakuru barimo barabaha ibyo kunywa birashoboka ko ari igikorwa cy'ubugiraneza gishobora kuba ari icya leta cyangwa imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se itsinda ry'abakorerabushake baje gufasha abana bakeneye ubufasha. Si ibyo gusa kandi hari abantu benshi harimo n'abana bari kwitabwaho n'abandi bagize uruhare muri icyo gikorwa, icyo gikorwa rero ni cyiza kuko kigaragaza urukundo n'ubwitange ku bantu batishoboye bafite abana batabashije kurera bakabafasha.

Umwana wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro yijimye, hanyuma rero arimo aramwenyura mu gihe afungura robine y'igikoresho cy'amazi kiri ku meza, inyuma hari urukuta rwubakishije ibisenge by'icyatsi cyangwa ibiti, si ibyo gusa kandi ibintu biri hano bishobora kuba bifitanye isano n'ibikorwa byo gukangurira abantu gukaraba intoki no kugira isuku, cyane cyane mu rwego rwo kwirinda indwara nk'izo zandurira ku ntoki cyangwa se izandurira mu myanda, bigaragara ko ari ubukangurambaga bwigisha abantu kugira isuku, mu byo bakora byose bakaraba intoki, mu bintu byose baba bavuyemo, kugira ngo birinde indwara zandurira mu mwanda.

Umwana muto cyane rwose bigaragara ko afite ubwoba, kuko birimo biragaragara ko barimo baramutera urushinge, aho ari kuruterwa n'umuganga, birashoboka ko ari urushinge rw'urukingo runaka bari kumutera. Ni byiza ko duteza abana bacu inkingo zose zagenwe, kugira ngo tuzabarinde kurwara indwara mu gihe bakuze nk'urugero nk'imbasa, mugiga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Icyuma kizana amazi dukunda kwita ipompo byazanywe n'abashinwa bino byuma bigenda bishyirwa mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu ntara hanyuma rero hari abana bagiye batandukanye barimo baravoma hakaba hari n' umumama uraho ngaho biragaragara ko ashobora kuba Ari mama wabo uburyo rerok icyuma kivoma cyangwa kizana amazi uragenda ukazaba ugenda ukizamura umanura uzamura ushyiramo imbaraga hanyuma amazi akaza mu mukavoma mukuzuza.

Icyapa cyanditse ijambo isange wani sitopu seta. ushobora kwibaza ngo ni iki? Ni ikigo cyatangijwe mu mwaka ibihumbi bibiri n'icyenda ku gitekerezo cya madame jeannette kagame kigamije guhuriza hamwe serivisi zose zikenewe mu gufasha abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irikorerwa abana. Iki kigo gitanga serivisi zirimo ubuvuzi, ubujyanama mu by'ihungabana, ubutabera, ndetse n'icumbi ry'igihe gito ku bantu bose baba bahohotewe.

Inyubako nini kandi nziza igezweho ifite amabara y'umuhondo n'ubururu igiye ifite kandi amabati meza ifite amadirishya n'imiryango bifunga hamwe ndetse n'ibaraza riri hejuru y'imiterere y'amaterasi hari icyapa kiri hejuru kandi cyerekana ko inyubako ishobora kuba ari ikigo itanga serivisi zigendana cyangwa se zirebana n'ubuzima bwo mu mutwe bishoboke cyane ko rwose ko ari ikigo gitanga ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze nawe ushobora kubagana mugihe ushaka nk'inama mu gihe wumva ufite ikibazo cyakuremereye bakagufasha rwose.

Ubwonko bw'umuntu ni urugingo rukomeye cyane rugenga imikorere y'umubiri wose. Bufite inshingano nyinshi zirimo gutekereza, kwibuka, kumva, kugenzura ibitekerezo no kuyobora ibice bitandukanye by'umubiri. Ibice by'ingenzi by'ubwonko harimo igice kinini cy'ubwonko kigenga gutekereza, gufata ibyemezo, kumva, kureba ndetse no kugenda. Hari n'ikindi kandi kigira uruhare mu gukomeza umubiri mu buryo bwiza no kugenzura uko umuntu agendana uburinganire. Hari n'ikindi kandi cya gatatu, aho ari igice gihuza ubwonko n'umugongo. Akamaro k'ubwonko rero, ntago twakavuga ngo tukarangize, gusa ubwonko buradufasha mu gutekereza no gufata ibyemezo, kwibuka no kwiga ibintu bishya, kugenzura ingingo z'umubiri no kugenda no kumva ibyiyumviro no gucunga amarangamutima.

Umurwayi urembye cyane rwose bigaragara ko ari ku gitanda cy'indembe, si ibyo gusa kandi hari abaganga bamuri hejuru bari kumusuzuma babiri, barimo barareba uburyo umutima we utera, uburyo arimo arareba ku maso, bigaragara ko ashobora kuba yarahuye n'uburwayi bukomeye cyane, kuko biragaragara ko bamusuzuma cyangwa bamwitaho, buri kanya kandi amasaha menshi. Ni byiza ko baganga rwose mwita ku barwayi banyu, kuko inshingano zanyu ni ugutabara ubuzima, mubikore kandi mubikunze.

Amenyo y'umuntu aba yafotowe n'icyuma cyabugenewe, gifotora mu kanwa hose h'umuntu nko mu gihe wenda afite nk'uburwayi runaka kugira ngo umuganga uvura amenyo, aze kumenya ikibazo afite yifashishije ino foto amenye ndetse n'uburyo yagikemura kubera yuko ino foto igaragaza byose ndetse n'ikibazo icyo ari cyo cyose ushobora kuba ufite.

Amenyo y'umuntu agaragara ahantu hose iyo ugeze kwa muganga wenda ukeneye nk'uko bakuvura cyangwa se ba bagakuramo iryinyo rikubabaza cyangwa rikubangamiye cyangwa se ushaka ko amenyayo wajya ku murongo, umuganga agutuma ukufata ishusho nk'iyingiyi kugira ngo ayifashishe areba ikibazo ahantu kiri cyangwa se n'uburyo yagufashamo.

Umuganga w'amenyo bigaragara ko ari gukorera umurwayi ubuvuzi bw'amenyo. Umurwayi asa n'ufite ikibazo cy'iryinyo rikomeye bigatuma umuganga amutera ikinya mu ishinya mbere yo gukomeza ubuvuzi. Uburyo bw'akazi k'umuganga rero bwagaragaye hano bukorera ku isuku kandi bugakorera ku gihe burerekana n'ubunyamwuga aho yambaye uturindantoki n'ibikoresho byabu bugenewe bigiye bitandukanye. Ni byiza rero uko tugeje isuku amenyo yacu, kuko n'abaganga nibyo badusaba.

Umukecuru rwose bigaragara ko akuze wambaye amaherena. Si ibyo gusa kandi yicaye mu igare ry'abantu babana n'ubumuga. Hanyuma rero imbere ye hicaye umuganga cyangwa se umuforomo, biragaragara ko arikumufatira umuvuduko w'amaraso kugira arebe uko ahagaze mu buzima bwe.

Umugore rwose bigaragara ko akuze mu myaka, afite imbago ikozwe mu cyuma. Hanyuma ari kumwe n'umuganga we, bigaragara ko ari umuntu wambaye imyambaro cyangwa se impuzankano z'abaganga, kuko afite n'cyuma bakunda kwambara mu ijosi bapima uburyo umutima utera. Biragaragara ko ari umuganga n'umurwayi we rwose bafitanye umubano mwiza kandi bishimiranye.

Umusaza wambaye ipantaro y'ikoboyi yicaye mu igare ry'ababana n'ubumuga, hanyuma yambaye n'amarinete, imbere ye hicaye umwana mutoya urimo uraseka, birimo biragaragara ko ashobora kuba ari nk'umwuzukuru we, barimo barakina baganira mbese bagirana ibihe byiza cyane nk'ibyo umwana agomba kugirana na sekuru.

Abakecuru bafite inkoni bigaragara ko bari mu rugendo bishoboka ko ari urugendo rufite intego runaka, bambaye imyenda isanzwe ariko bose bafite amakanzu yera n'imyenda itukura hejuru bishoboke ko bafite igisobanuro cyihariye. Inyuma ya bo kandi hari abandi bantu barimo urubyiruko rwambaye amapeti yera ariho ibirango bigaragaza ko bashobora kuba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, cyangwa se igikorwa cyo kwibuka, cyangwa se ubusabane bw'imiryango.

Umushinga ukomeye cyane, ugamije gukangurira abantu kwita ku buzima bw'ubwonko no kumvikanisha akamaro ko gusuzuma no gufasha abantu bafite ibibazo by'ubwonko. Iyi gahunda ikaba igamije guteza imbere ubumenyi ku mikorere y'ubwonko ndetse no gukangurira abantu kubahiriza ubuzima bwiza mu mutwe. Hanyuma rero mu Rwanda, hashyizweho icyumweru cyo kugira ngo abantu basobanukirwe neza uko ubwonko bukora, impamvu zikunze gutera ibibazo by'ubwonko n'uburyo bwo kubirwanya, binyuze mu bikorwa byo gusangiza ubumenyi, gukora ibiganiro ndetse no gutegura ibikorwa, bifasha abantu kugira ubuzima bwabo bwo mu mutwe bube bwiza kandi kurushaho.

Indwara mbi cyane dukunda kwita mu ndimi z'amahanga monkepoxs iterwa na virusi zishobora gukwirakwira binyuze muko noneho wa yanyanduye cyangwa se ibintu byanduye nubwo indwaratica cyane nk'igituntu cyangwa se covid cumi n'icyenda ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu cyane cyane abafite ubudahangarwa buke hanyuma rero urukingo rwayo rufasha kugabanya ibyago byo kwandura indwara no gukomera ku'ibimenyetso byayo rukingira abantu kandi bafite ibyago byinshi byo guhura'iyi ndwara cyane cyane abakozi bo kwa muganga n'abafite ubushobozi buke cyane bwo kwirwanaho,

Ababyeyi bane bose bateruye abana babo bigaragara cyane ko bano bana bakiri impinja kuko baracyari bato, hanyuma icyumba barimo kigiye kiriho ibishushanyo bitandukanye kerekanako hano hantu hashobora kuba ari kwa muganga, bishatse gusobanura ko abano babyeyi bashobora kuba baje gukingiza abana babo kuko buri mubyeyi wese ubyaye umwana haba hari inkingo agomba kumuhereza.

Ese wowe ni ayahe makuru ufite kuri minisiteri y'ubuzima? Ni urwego rwa leta rushinzwe guteza imbere ubuzima bw'abaturage binyuze mu gutanga serivise z'ubuvuzi, gukumira indwara no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, hanyuma minisiteri igira inshingano zitandukanye, harimo; kunoza ubuvuzi no gutanga serivise nziza, harimo gufasha abaturage kubona ubuvuzi bwiza kandi bworoheje bose, hanyuma rero harimo no kurwanya no gukumira indwara zigiye zitandukanye.

Ese wowe hari amakuru ushobora kuba ufite ku ndwara zitandura? Ni indwara zidahuzwa n'ubwandu bwa mikorobi cyangwa virusi, ahubwo ziterwa n'imibereho y'umuntu, imirire mibi, ubuzima bubi, cyangwa imigenzo itari myiza. Izi ndwara zikunze guturuka ku buryo umuntu arya, uko atunganya umubiri we, ndetse nuko akora imyitozo ngororamubiri. Hanyuma rero hari urutonde rw'indwara zitandura, harimo indwara z'umutima, kanseri, indwara zo mu bwonko, diyabete, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko haba hari n'uburyo rwose twazirinda dukoze uko dushoboye.

Abantu benshi batandukanye bari mu murongo basa n'abategereje serivisi runaka, hari abantu bicaye inyuma y'ameza basa n'abatanga serivisi, cyangwa barimo barakira aba bantu, harimo n'umuntu kandi uri mu kagari k'abafite ubumuga bigaragaza ko iyi serivisi ari ku bantu bose n'ingeri zose, ubwoko bw'imyambaro kandi bambaye bushobora kwerekana ko harimo abarwayi, abakozi cyangwa se abashyitsi, ibi bishobora kuba ari ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima, ubufasha bw'imibereho cyangwa se izindi serivisi rusange zigiye zitandukanye.

Ivuriro ryiza cyane riherereye ahantu ku muhanda rwose bigaragara ko bagerwa n'abantu benshi batandukanye, bavura indwara zitandukanye rusange, bakavura indwara z'abana, bakavura n'indwara z'ingingo z'imbere mu mubiri, bakora kandi n'ibizamini bigiye bitandukanye barabifata bakanabisuzuma, bagira n'ibitaro, mu gihe rwose uhuye n'uburwayi butandukanye bugutunguye, ushobora kubagana bakagufasha.

Ibitanda by'abarwayi ni ingenzi cyane mu buvuzi kuko bifasha abarwayi kubona ubuvuzi bukwiye no gukira neza hari ibitanda bisanzwe , ibitanda bifite moteri , ibitanda by'abarwayi barembye cyane ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hanyuma rero ibi bitanda byo kwa muganga bidufasha mu bintu bitandukanye kuko bitanga ihumure ku murwayi bifasha mu kuvura no gukurikirana ubuzima bw'umurwayi si ibyo gusa kandi bifasha abarwayi bafite ubumuga cyangwa badafite imbaraga guhaguruka no kugenda mu buryo bworoshye cyane rwose.

Icyumba cy'ibagiro cy'ibitaro. Kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubaga abarwayi, birimo ameza y'icyumba cy'ibagiro, amatara akomeye yo ku gisenge, akoreshwa mu kumurikira abaganga, imashini zifasha mu kugenzura ibipimo by'umurwayi ndetse n'ibikoresho by'isuku. Iki cyumba kandi cyateguwe kugira ngo gitange umutekano n'isuku bikwiye, mu gihe barimo barabaga umurwayi cyangwa se nko mu gihe umuntu wese ugezemo, ashobora kumva ko rwose nta kibazo afite.

Ibitanda byiza cyane bigezweho kandi bya kijyambere by'abarwayi bo kwa muganga baba bahawe ibitaro, aho buri murwayi aba afite inomero y'icyumba cye ndetse n'igitanda aryamaho, si ibyo gusa kandi imbere y'igitanda haba hari akandi kabati gatoya ashobora gushyiramo ibyo kurya bye cyangwa se ibyo kunywa, ni ibitanda rwose ubona ko bigiye bifite n'imisego byakiza n'umugongo kandi bya kijyambere rwose kandi hano hantu hari n'isuku.

Ikigo nderabuzima cya Kagena aho hari umugore uhetse umwana ugihagaze imbere, muri serivisi zitangwa n'iki kigo ziratandukanye, cyangwa iki kigo nderabuzima baravura indwara z'ubwoko bugiye butandukanye, aho uba ufite isuzumiro ujyamo bakagusuzuma indwara nyinshi zigiye zitandukanye, hanyuma mu gihe ukeneye gufatirwa ibizamini, bakakoherezayo bakagufatira ikizamini bitewe n'indwara uwakuvuye yatekereje kuba waba urwaye cyangwa yumvise ko waba urwaye.

Inyubako rwose birimo biragaragara neza ko hakorerwa ubuvuzi biragaragara ko hano hantu ari nko muri laboratwari bafatira ibizamini bigiye bitandukanye by'ubwoko bwinshi butandukanye, aho hari umuganga wambaye itaburiya akaba yambaye n'agapfukamutwe akaba yambaye n'agapfukamunwa hanyuma arimo arareba mu mashini iri imbere ye ibisubizo by'ikizamini yafashe.

Icyumba cy'abarwayi hagiye harimo ibitanda bitandukanye, aho ibyinshi bigiye biryamyeho abarwayi baba bahawe ibitaro bitewe n'uburwayi bafite cyangwa se barembye, bitashoboka ko bajya mu rugo, bakabaha ibitaro kugira ngo bakurikiranwe umunsi ku wundi kwa muganga. Si ibyo gusa kandi hagiye harimo abantu bakora amasuku, aho barimo baragenda bakoropa, aho mu cyumba cy'abarwayi baryama kugira ngo hagaragare isuku n'abaganga nibaza kuhavurira rwose, babona ko ari ahantu hari isuku kandi nziza.

Ese waba uba ukeneye ibikoresho bijye bitandukanye bikozwe mu biti kandi by'umwimerere bihendutse? hano tubafitiye igisubizo, tubafiteye intebe nziza cyane z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye n'igiciro kiba gitandukanye bitewe n'intebe ushaka, hari ameza kandi akozwe mu buryo butangaje bw'umwimerere hari n'ibitanda bigiye bitandukanye hakaba hari n'ibikoresho bigenda bibika ibintu bitandukanye aho wabika imyenda, n'ibindi byinshi mutugane tubafashe ku giciro gito.

Inyubako nziza cyane rwose ya kijyambere igezweho, hari intebe nziza cyane ameza ya kijyambere agezweho, si ibyo gusa kandi n'imitako myiza, hari abantu mo imbere barimo baratanga serivisi, hanyuma inyuma ku idirishya hari n'undi mugabo rwose bigaragara ko yaje gusaba serivisi yarimo aranayihabwa, hari n'abandi bicaye birimo biragaragara ko bategereje gufashwa cyangwa se guhabwa serivisi zaje zibagenzi.

Inyubako nini bigaragara ko ari kwa muganga, hari uruhuri rw'abantu benshi cyane batandukanye, harimo n'abambaye imyambaro isa, aho bambaye imipira y'icyatsi kibisi, biragaragara ko bari nko mu kazi kabo. Si ibyo gusa kandi hari n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko baje kwakwa serivisi nko kwivuza, cyangwa se kuvuza ababo, hari inzu tubona imbere yacu ni ibitaro bivura abana, aho umwana wese urwaye ushobora kumujyanayo bakamuvura, haba hari abaganga bazobereye mu ndwara z'abana.

Inkweto nziza cyane mu ibara ry'umukara, aho ifite icyapa cyanditseho ijambo B na A na T na O, biragaragara ko ino nkweto ikiri nshyashya kuko iracyafite ubushyashya bwayo, hanyuma rero inkweto nk'izi ngizi zikunda kwambarwa by'umwihariko n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, harimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bacunga umutekano, kuko ni inkweto zikomeye kandi nziza.

Umukobwa wambaye imyambaro yo gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi miremire biragaragara. Hanyuma rero gukora imyitozo mu mubiri wacu ni ngombwa cyane, kuko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri gukomeza kugira ubuzima bwiza, igafasha imyakure gukora neza ndetse ikongera imbaraga z'umubiri, hari nk'urugero rwo kugabanya ibiro by'umurengera, kunoza imikorere y'umubiri, nk'urugero imyitozo ituma amaraso atembera neza, bigafasha umutima gukomera no kwirinda indwara zifata imitsi zigiye zitandukanye.

Umusore w'ibigango arimo arakora imyitozo ngororamubiri hanyuma ku ruhande rwe hicaye umukobwa bigaragara ko ari kumwitegereza bisa nk'aho ari umwigisha gukora imyitozo ngororamubiri. Hari inyubako zigiye zitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yazo bakunda kwita mu ndimi z'amahanga jimu aho ujyayo rwose ugasanga hari umutoza nkuyu nguyu akazajya agenda akwerekera ibyo ugomba gukora ukabikora kandi rwose bikagenda neza.

Umusore w'ibigango isura ye itagaragara neza mu maso, birimo biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, sibyo gusa kandi afite icupa ry'amazi arimo arayanywa bisa nk'aho yararuhutse. Ushobora kwibaza ngo ese n' akahe akamaro k'amazi mu gihe ndi gukora imyitozo ngororamubiri ? Ni ngombwa cyane kandi ni ingenzi cyane kuko bifasha umubiri gukomera, gukora neza no kwirinda umunaniro ukabije hanyuma harimo kwirinda umwuma, gufasha imikaya gukora neza no gutuma wumva utarushye bigatuma ukomeza gukora imyitozo yawe nta kibazo.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye, aho harimo imineke, amacunga, pome, indimu ndetse n'ibindi, ubu bwoko rero bw'izi mbuto bwavamo umutobe mwiza wakaremamo ukiza indwara kandi wongera intungamubiri mu mubiri wa muntu kandi akabaho neza kabaho igihe kirekire nta kibazo na kimwe yahuye nacyo kubera uno mutobe.

Umusore wambaye imyambaro bigaragara ko ari imyitozo ngororamubiri, arimo arakora imyitozo, banyarwanda banyarwandakazi waba ubishoboye cyangwa utabishoboye wowe ubikunda cyangwa utabikunda, ni ngombwa ko dukora imyitozo ngororamubiri, tukagerageza uko dushoboye, kuko ni ngombwa cyane kandi ni byiza kuko byongera ubuzima bwa muntu, bikagabanya ibiro bitateganyijwe, bikagabanya n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ese bakubajije ngo ni iki kintu uzi ku mbuto n'imboga, cyangwa se ni akahe kamaro kabyo? Wowe ushobora gusubiza gute, imbuto n'imboga ni ibintu bifite uruhare rukomeye cyane mu kubaka umubiri wa muntu aho byongerara imbaraga, bigakiza indwara, bikongera n'ubudahangarwa bw'umubiri, bikongera n'abasirikare imbaraga barinda umubiri, kugira ngo utarwara indwara za hato na hato.

Ese wowe ni ayahe makuru ufite ku rukurikirane rw'icyayi cy'imiti cyangwa ubwoko butandukanye bw'icyayi gikoreshwa nk'umuti? Icyyayi cy'imiti n'ubwoko bw'icyayi gikozwe mu bimera bitandukanye, bifitiye inyungu ku buzima bwacu, nk'indabo, ibibabi, imizi cyangwa imbuto z'ibimera bizwiho kugira akamaro mu mubiri. Hanyuma rero bitewe n'ubwoko bw'ibimera bikoreshejwe, icyayi cy'imiti gishobora kugira akamaro nko kuruhura ubwonko, kugabanya umunaniro, gufasha igogora, kongerera umubiri ubudahangarwa, ndetse no kugabanya uburibwe bugiye butandukanye.

Ese waba ufite mu maso hawe ukabona ntaguhishimiye wenda harimo ibiheri, ntago hameze neza, ntago ugaragara neza nk'uko ubyifuza, hano tugufitiye igisubizo tugiye tugufitiye amavuta menshi atandukanye y'ubwoko butandukanye ushobora gukoresha ugacya mu maso ushaka kuba inzobe cyane hano amavuta turayafite, ushaka gukomeza gusukusa ibiheri ukabikira, cyangwa se ukagira mu maso horohereye nkah' abana bato. Twagufasha rwose dufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'amavuta y'uko butandukanye.